Iyo habayeho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya virusi itera sida ku rwego rw'isi, maze ukabera mu Rwanda, habaho intore zijya imbere, maze zigasusurutsa abantu mu mbyino zijyanye n'insanganyamatsiko baba bashyizeho muri uwo mwaka.

Ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi bukorwa mu buryo bugoye kuko umuntu ni we ujya kwisoromera imiti akura ku bimera bijye bitandukanye no ku biti, akayikusanya akaza akayitunganya akayishyira mu matsinda, hanyuma akazana n'umunzani akajya ayipima mu ngano runaka.